Abantu bavanzemo rubyiruko rwinshi bicaye ku ntebe harimo aba mama n'abasore barangamiye amashusho ari imbere yabo bicaye batuje bareba ibyo biri imbere yabo bambaye imipira isa bitegereza imbere yabo.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara, wambaye shenete mu ijosi yicaye mu ntebe yazamuye akaguru arimo araseka cyane yishimye ameze neza, yambaye ibikumo arimo akora mu musatsi ubona yanezerewe rwose, ntakibazo yicaye ahantu hakurutiriye yahimbawe.